Itsinda rigari ry'abantu ryateraniye mu cyumba cyiza gifite ibara ry'umweru, bakaba bari gukoreramo inama, aba bose kandi bakaba bafite imbere yabo amacupa y'amazi ndetse bakaba bakurikiye umuntu uri imbere yabo uri kubagezaho ikiganiro.

Ahantu hateganyijwe ndetse hameze neza hari umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, uyu mugore kandi akaba afite ibyo ari kugeza ku mbaga nyamwinshi y'abantu imukurikiye yifashishije indangururamajwi.

Mu cyumba cyabugenewe kiberamo inama, hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, muri aba bantu kandi hakaba harimo umugabo wambaye impuzankan z'Igisirikare cy'Igihugu, aba bose bakaba bakurikiye umuntu uri imbere yabo uri kubagezaho ikiganiro.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bateraniye ahantu mu nyubako iberamo inama, ibirori ndetse n'ibindi, aba bose bakaba bicaye mu ntebe nziza cyane aho bari gukurikira umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho ikiganiro.

Itsinda rigari ry'abantu, barimo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye ahantu mu cyumba kiberamo inama. Aba bose bakaba bakurikiye umuntu uri imbere yabo, aho ari kubaganiriza ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umuhondo weruye ndetse n'umweru, yifashishije indangururamajwi ari kugeza ubutumwa ku bantu bamukurikiye mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ahantu mu cyumba cyabugenewe kiberamo inama hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu igizwe n'abagabo ndetse n'abagore, abo bantu bakaba bafite amacupa y'amazi ateretse imbere yabo, bakaba kandi bakurikiye umugabo uri imbere yabo uri kubagezaho ibintu bitandukanye yifashishije indangururamajwi.

Mu nyubako nziza yabugenewe ifite amabara atandukanye ndetse n'amatara yaka neza, harimo imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, aba bakaba bafite ibyo kunywa imbere yabo ndetse bakaba bakurikiranye ikiganiro umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho.

Itsinda rigari ry'abantu bagizwe n'urubyiruko rwambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, uru rubyiruko rukaba ruri gususurutsa abantu bari mu nyubako iberamo imyidagaduro.

Icyumba cyiza cyane gifite ibara ryiza, kirimo intebe ndetse n'ameza. Izi ntebe zikaba zicaweho n'abantu bafite amakaramu ndetse n'amakayi, bakaba bari gukoreramo inama. Hari kandi n'umuntu uri gufata amafoto, yifashishije igikoresho gifatishwa amafoto.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bateraniye ahantu mu cyumba kiza gifite ibara ry'umweru, bakaba bafite ibintu byinshi bari kwigaho barikwifashisha kandi igikoresho k'ikoranabuhanga ari cyo mudasobwa.

abantu benshi barimo umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'idoma ndetse n'umusirikare w'igihugu bateraniye ahantu hamwe habereye inama, bakaba bakurikiye umuntu uri imbere yabo UrikUbagezaho ikiganiro.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse afite n'indangururamajwi afite ibyo ari kugeza ku mbaga nyamwinshi irimo abagabo ndetse n'abagore, nanone kandi inyuma yabo hari inzu zagenewe guturwamo.

Mu cyumba kiza cyane cyabugenewe gifite amabara meza harimo abakobwa bambaye imyambaro izwi mu muco nyarwanda nk'imikenyero, aba bombi bakaba bafite ibirori runaka bitabiriye ndetse imyambaro bambaye ikaba igaragaza umuco nyarwanda.

Itsinda ry'abantu bakiri bato bambaye imyambaro izwi mu muco nyarwanda nk'imikenyero ifite ibara ry'umweru bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, ibi bikaba ari bimwe mu biranga umuco nyarwanda.

Ahantu hateganyijwe, hari imitako ndetse ari n'ubwatsi bw'ubukorano bugezweho, hari itsinda ry'ababyinnyi bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara. Iryo tsinda rikaba riri kubyina ryifashishije ibikoresho gakondo, birimo n'amayogi.

Umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse akaba anambaye urugori rufite ibara ry'umweru ari imbere y'imbaga nyamwinshi aho ari gususurutsa abantu abyina imbyino za kinyarwanda.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bateraniye ahantu mu nyubako iberamo imyidagaduro ndetse n'inama, aba bakaba bakurikiye abandi bari imbere yabo bambaye imyambaro irimo imikenyero bakaba bari kubasusurutsa mu bijyanye n'umuco nyarwanda.

Umuco nyarwanda ugizwe n'ibintu bitandukanye. Aho kandi harimo n'ubugeni. Akenshi ibi bikaba bikorwa hifashishijwe ibyatsi ndetse n'ibindi bitandukanye. Hakaba hakorwamo udukoresho dutandukanye, turimo nk'utwibo ndetse n'utundi.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse akaba ari gukoresha igikoresho cy'umuziki cyakoreshwaga cyane cyane mu Rwanda rwo hambere, iki gikoresho kikaba kitwa umwirongi ndetse kikaba gikora amajwi aryoheye amatwi.

Imbaga y'abantu yateraniye ahantu habugenewe hakaba harimo umugabo wambaye imyambaro y'impuzankano y'Igisirikare k'Igihugu, aba bantu bakaba bari gutaramirwa n'itsinda ry'ababyinnyi ryambaye imyambaro y'umweru n'umukara bakaba bari kubyina imbyino gakondo.

Ahantu hateganyijwe hari abagore babiri bambaye imyambaro izwi mu muco nyarwanda nk'imikenyero. Aba bombi bakaba bari kubyina imbyino zizwi mu muco nyarwanda bakaba bateze amaboko ndetse bari gususurutsa ababakurikiye.

Mu mbuga y'inyubako ifite ubwatsi bwiza butoshye harimo amatsinda abiri y'abantu, itsinda rimwe ryambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi isa, itsinda rya kabiri rikaba ryambaye imyambaro izwi mu muco nyarwanda nk'imikenyero, iryo tsinda rikaba riri kubyina imbyino za gakondo.

Ahantu ku ikusanyirizo rinini ry'umuriro w'amashanyarazi harimo abakozi bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka, iri kusanyirizo ry'umuriro rikaba riwohereza mu baturage ndetse n'ahandi hose ukenewe.

Ni byiza cyane ko imiyoboro y'amashanyarazi yanyuzwa mu kirere hifashishijwe ibikoresho bitandukanye, ibi bifasha kuba nta ngaruka byateza cyane cyane nko kuba habayeho impanuka ndetse n'ibindi, iyi miyoboro ikabafasha kugira ngo ibintu nk'ibyo bitabaho.

Abakozi bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka, bari gukora ahantu, hari gutunganyirizwa umuyoboro w'amashanyarazi nan none kandi hari inzu yubatswe mu buryo bugerekeranyije n'ikinyabiziga cy'imodoka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabati ndetse n'inzugi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, iyo nyubako ikaba ikorerwamo serivisi zitandukanye zijyanye n'umuriro w'amashanyarazi.

Iruhande rw'inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, hari umugabo uri kugira ibyo akora ku muyoboro w'amashanyarazi unyura mu kirere. Ibi bikaba bikumira impanuka izo arizo zose, zaterwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Umuyoboro w'amashanyarazi wakozwe hifashishijwe igiti kirekire ndetse n'ibyuma by'amashanyarazi, uyu muyoboro ukaba wifashishwa mu kuvana amashanyarazi ahantu hamwe ajyanwa ahandi, by'umwihariko aturutse ku ngomero.

Ahantu hakusanyirizwa umuriro w'amashanyarazi iyo umaze kuva ku rugomero mbere y'uko ujyanwa mu ngo ndetse n'ahandi ukoresherezwa, uwo umuro w'amashanyarazi ukaba ari ingirakamaro cyane kuko wifashishwa mu bikorwa by'iterambere.

Umuyoboro w'amashanyarazi ukozwe mu byuma wifashishwa mu gukura amashanyarazi ahantu hamwe uyajyana ahandi, akaba anyuzwa mu kirere mu rwego rwo kugira ngo atagira impanuka ateza mu gihe yaba anyujijwe mu butaka.

Ni byiza cyane ko imiyoboro y'amashanyarazi yanyuzwa mu kirere. Ibi bishobora kuba byafasha cyane mu kwirinda impanuka ziterwa n'umuriro w'amashanyarazi. Akenshi na kenshi iyo imiriro y'amashanyarazi inyujijwe mu butaka bikunda gutera impanuka zirimo n'impfu.

Ahantu habugenewe, hari ibikoresho byifashishwa mu gukusanya umuriro w'amashanyarazi, nyuma y'uko uturutse ku rugomero, iri kusanyirizo rikaba ryohereza umuriro mu baturage, aho ubu ugiye gukoreshwa mu bikorwa bitandukanye by'iterambere.

Ibyuma by'ikoranabuhanga, cyane cyane ibifite umuriro w'amashanyarazi, biba bigomba kugenderwa kure ndetse mu rwego rwo kugira ngo bidateza urupfu, tugomba kwirinda kubicokoza ahubwo mu gihe bigize ikibazo, tugahamagara ababishinzwe maze bakabikurikirana.

Hejuru y'inzu isakaje amabati afite ibara ritukura hariho igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu guhindura imirasire y'izuba mo amashanyarazi akoreshwa mu ngo. Ibi bikaba bituma igiciro cy'amashanyarazi ku isoko kigabanuka.

Ahantu mu isoko rusange, harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo nk'ibirayi, inyanya, imbogarwatsi, ibitunguru ndetse n'abashinzwe kubicuruza. Iri soko rikaba ryubatswe mu buryo bugezweho, aho ryubakishije amabati.

Imbere y'inyubako z'ibitaro zubakishije amatafari ndetse zisakajwe amabati y'ubururu hari ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abarwayi kibakura ku mavuriro kibajyana mu bitaro bikuru, iki kinyabiziga kikaba ari ingirakamaro kuko gituma abantu batarembera ku mavuriro.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ndetse bumwe zikaba zubakishije amatafari zifite inzugi z'umukara ndetse zisakaje amabati y'umutuku, izi nyubako zikaba zituzwamo abatishoboye.

Ahantu habugenewe afite ubwatsi butoshye ndetse naho kwicara atwikiriye, aho hantu hakaba habera imikino itandukanye by'umwihariko umupira w'amaguru, hakaba kandi hari n'ahantu habugenewe hicarwa n'abaje kureba uwo mukino.

Inyubako nziza cyane ifite amabara y'umweru ndetse isakaje n'amabati y'umutuku ifite ikigega gifata amazi, hari kandi n'ikinyamitende ndetse n'ikinyabiziga k'imodoka, iyo nyubako ikaba kandi ifite n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Imbere y'inzu bigaragara yuko ishaje ifite amabati ashaje ndetse ifite n'imiryango y'ubururu hari idarapo ry'Igihugu nanone kandi iruhande rwayo hari ikinyabiziga k'imodoka gifite amabara y'umweru kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Inyubako nziza cyane, zubatswe mu buryo bugezweho ndetse zisakaje amabati. Imbere yaho hakaba hari umuhanda ndetse n'imbuga irimo ubwatsi butoshye. Na none kandi hari amatara ahamurika mu gihe k'ijoro.

Abakozi bakorera ikigo gishinzwe gukora ubwubatsi, bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka. Aba bagabo bakaba bari ahantu hari gukorwa imirimo yo kubakwa ikiraro, hifashishijwe amabuye ndetse n'ibyuma.

Mu nkengero z'ikiyaga kinini hari inzu zibereye ijisho ndetse hakaba hari n'ibiti bikuru, ibi bikaba bikurura ba mukerarugendo maze bakishyura amafaranga nanone kandi icyo kiyaga kifashishwa mu bworozi bw'amafi.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri bo bambaye imyambaro y'akazi, bateraniye imbere y'inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyapa cyanditseho ijambo Girabubuzima. Iyo nyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa bijyanye no kwita ku buzima.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite ibara ry'umuhondo weruye ikaba yandikishijeho inyuguti z'umukara zerekana ko ari iy'ibiro by'umurenge wa Musheri inyuma y'iyo nyubako kandi hakaba hari ibiti birebire bitoshye.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru isakaje amabati y'ubururu ikaba ifite n'ikigega, icyo kigega kikaba cyifashishwa mu gufata amazi y'imvura maze agakoreshwa ibintu bitandukanye.

Isoko rusange ryubatswe mu buryo bugezweho hifashishijwe amabati afite ibara ry'ubururu, iryo soko rikaba ricururizwamo ibintu bitandukanye birimo nk'imyambaro, ibyo kurya ndetse n'ibindi.

Itsinda rigari ry'abantu, barimo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye ahantu hamwe. Aba bakaba bari imbere y'icyuma gifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, kerekana ko nta muntu ugomba kunyura aho hantu.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho hifashishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, iyo nyubako ikaba inafite ikigega gifata amazi, ikikijwe kandi n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Ibiraro ni bimwe mu bikorwa remezo biba bigomba kwitabwaho, impamvu ni uko bidufasha mu gukusanya amazi aturuka hirya no hino ku misozi mu gihe cy'imvura maze ayo mazi ntiyangize ibikorwa remezo cyangwa se ngo abe yatwara ubuzima bw'abantu.

Inzu nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikorerwamo ibintu bitandukanye ndetse imbere yazo hakaba hari idarapo ry'igihugu na none kandi hari amatara yo ku mihanda, amurika mu gihe cy'ijoro maze bikorohereza abantu gukora mu masaha y'ijoro.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse isakajwe amabati itangirwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye na Leta, aha kandi hakaba hari abantu babiri baje gushaka ibijyanye n'izo serivisi.

Ahantu iruhande rw'inyubako yuzuye vuba hari abantu barimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abandi bambaye impuzankano z'igipolisi cy'Igihugu, aba bakaba bari mu muhango wo gutaha inyubako yubatswe vuba.

Mu cyumba cyabugenewe harimo imbaga nyamwinshi y'abantu barimo umugabo wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'Igihugu, bakaba bakurikiye umugabo ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha aho ari kubagezaho ikiganiro.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaye neza, ikaba ifite ikigega gifata amazi mu gihe cy'mvura, imbere y'iyo nyubako kandi hari umuhungu ndetse n'umusore bahahagaze.

Imbaga nyamwinshi y'abantu yakoraniye ahantu mu byatsi hari n'ibiti bitoshye, aho kandi hakaba hari umubyeyi wambaye umwambaro uzwi mu muco nyarwanda nk'umukenyero akaba ari guhabwa igihembo n'umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare k'Igihugu.

Itsinda rigari ry'abantu bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore muri abo kandi hakaba harimo abagabo bambaye impuzankano z'igisirikare k'Igihugu ndetse n'abambaye impuzankano z'igipolisi k'Igihugu bahuriye ahantu hamwe mu rwibutso bakaba bagiye kwibuka abazize Jenoside.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, aba bakaba barimo kandi n'abambaye impuzankano z'Igipolisi k'Igihugu bakaba bahuriye ahantu hamwe aho bari kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi.

Umubyeyi wambaye imyambaro ifite ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'undi wambaye imikenyero, bari mu rwibutso rw'abakorewe Jenoside yakorewe abatutsi, bakaba bajyanye indabo mu gikorwa cyo kwibuka.

Ahantu mu Rwibutso rwo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo abagore babiri bose bambaye imyambaro izwi mu muco nyarwanda nk'imikenyero. Umwe muri abo bagore akaba afite indangururamajwi, aho ari kugeza ikiganiro ku bamukurikiye.

Inzu ifite umuryango ufite ibara ry'umukara ndetse n'icyapa kimanitse hejuru gifite ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije amabara y'umukara n'ubururu, icyo cyapa kikaba cyerekana ko iyo nzu ikoreramo ikigo gishinzwe ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu.

Imbere y'inyubako ifite ibara ry'umweru hari ibinyabiziga bibiri birimo imodoka ndetse n'ipikipiki byifashishwa mu bwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu, hari kandi n'umuntu wicaye ku ibaraza ry'iyo nzu.

Ahantu mu muhanda ukoze neza ufite amabara y'umukara harimo ikinyabiziga cy'imodoka, iki kinyabiziga kikaba cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, harimo kandi n'ikinyabiziga cy'ipikipiki ndetse kandi n'inzu zagenewe gukorerwamo ubucuruzi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umukara wicaye ku kinyabiziga k'ipikipiki, akaba ari kuvugana n'umugore uri mu kayira k'abanyamaguru, hari kandi nanone inzu ifite igipangu kiza kirimo igiti kirekire.

Icyapa gifite ubuso bw'ibara ry'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umukara, icyo cyapa kikaba kereka abakoresha umuhanda ko binjiye muri Karangazi hari kandi n'ibiti birebire bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Mu muhanda wubatswe mu buryo bugezweho harimo ikinyabiziga k'ipikipiki k'fashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, mu nkengero zawo kandi harimo akayira kagenewe abanyamaguru ndetse n'icyapa kerekana ko hafi aho hari inzira yambukirwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho nanone kandi mu nkengero z'uwo muhanda hari ibiti bikuze bifite amabara y'icyatsi kibisi, hari kandi n'icyapa iki kikaba kerekana ko hafi aho hari inzira y'abanyamaguru bambukiramo.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru, harimo imodoka ifite ibara ry'umweru, ikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu mu buryo bwa rusange. Hari kandi n'inzu, zifashishwa mu bucuruzi.

Icyapa gifite ubuso bw'icyatsi kibisi ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umweru cyerekana ahaherereye Umurenge wa Nyagatare, nanone kandi hari ibinyabiziga birimo nk'imodoka zifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana ko hafi aho ari akayira gashamikiyeho kikaba gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku aho hantu kandi hari amazu y'ubucuruzi atangirwamo serivisi zitandukanye zirimo izijyanye n'ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ubwubatsi.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abashinzwe umutekano bamwe bambaye impuzankano z'Igisirikare cy'Igihugu bateraniye hamwe, aho bari gukora igikorwa cy'umuganda bifashishije ibikoresho byifashishwa mu buhinzi birimo nk'amasuka.

Ahantu habugenewe mu mbuga nziza ifite ibyatsi bitoshye hateganyirijwe kubera ibirori bitandukanye, hari imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo ndetse n'abagore, aba bakaba bakurikiranye icyo umugore uri imbere yabo ari kubabwira.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore baje gukora umuganda wo kubakira inzu umuntu utishoboye, ibi bikaba byongera ubufatanye ndetse n'urukundo mu baturage.

Ahantu heza cyane hari ubwatsi butoshye, hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo ndetse n'abagore, aba bakaba bari gukurikira ibyo umuntu uri imbere yabo ari kubabwira, hari kandi nk'ibihingwa birimo insina zera ibitoki.

Ahantu hari imbaga nyamwinshi yateranye, irimo abashinzwe umutekano barimo umupolisi wambaye impuzankano ndetse kandi n'umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare k'Igihugu. Aba bakaba bari gukurikira ibyo umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho.

Mu kibuga gifite igice kinini gifite ubwatsi ndetse n'ikindi kidafite ubwatsi harimo abasore bambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri ifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi aba basore bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Mu kibuga cyiza cy'umupira w'amaguru cyubatswe mu buryo bugezweho gifite ubwatsi butoshye ndetse n'amazamu afite ibara ry'umweru harimo umugabo ufite icyapa cy'abasifuzi, iki kikaba cyerekana iminota yongewe ku mukino cyangwa se abakinnyi bagiye gusimburanwa.

Mu kibuga kiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse gifite ubwatsi butoshye harimo abagabo bambaye imyambaro itandukanye harimo umwe wambaye impuzankano y'igisirikare k'Igihugu, iki kibuga kikaba gikinirwamo umupira w'amaguru.

Ahantu mu kibuga cy'umupira kidafite ubwatsi harimo abakobwa babiri umwe yambaye imyambaro y'ubururu ndetse undi yambaye imyambaro y'umukara ikaba ari imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aba bombi bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Mu mpande z'ikibuga cy'umupira w'amaguru, cyubatse neza ndetse mu buryo bugezweho, hari itsinda rigari ry'abantu, bambaye imyambaro yo gukoresha imyitozo ngororamubiri. Aba bakaba bari gukora umwitozo wo kwinanura.

Mu kibuga cy'umupira kigizwe n'igice kirimo ubwatsi butoshye ndetse n'ikindi kitarimo ubwatsi harimo abagabo bambaye imyambaro itandukanye ifite ibara ry'ubururu yifashishwa mu gukina umupira w'amaguru.

Mu kibuga gifite ubwatsi butoshye bufite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'imirongo y'umweru harimo abagabo bambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aba bakaba bari gukina umukino uzwi ku izina ry'umupira w'amaguru.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara arimo icyatsi kibisi, bahuriye ahantu ku kibuga ahari ibiti birebire bakaba bari mu bikorwa byo kwidagadura birimo no gukina umupira.

Imbere y'inzu yubatswe mu buryo bugezweho igerekeranyije mu muhanda wa kaburimbo harimo imbaga nyamwinshi y'abantu yambaye imyambaro yo gukoresha imyitozo ngororamubiri aba bantu benshi bakaba bari gukora umwitozo ngororamubiri wo kwirukanka.

Mu kibuga cyiza cyane, gifite ubwatsi butoshye, harimo amakipe abiri, yambaye imyambaro yo gukinana umupira w'amaguru, ifite amabara atandukanye. Aba bakaba bagiye gukinira umukino muri icyo kibuga.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite uduhanda tw'abanyamaguru tuwushamikiyeho, harimo itsinda ry'abantu bambaye imyambaro yo gukoresha imyitozo ngororamubiri. Aba bakaba bari gukora umwitozo wo kwiruka.

Mu muhanda mwiza cyane wubatswe mu buryo bugezweho ufite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, ukaba ufite n'amatara yo ku mihanda harimo abantu benshi bambaye imyambaro yo gukoresha imyitozo ngororamubiri, aba bakaba bari gukora umwitozo ngororamubiri wo kwirukanka.

Mu ntebe nziza cyane zifite amabara y'ubururu, hicayemo abantu barimo abasore ndetse n'umwana muto, aba bakaba bakurikiranye umukino w'umupira w'amaguru, uri kubera aho hantu bari.

Abantu bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu bweruye, bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Icyo kibuga kikaba gifite ubwatsi butoshye. Aba bakaba bari gukina umupira w'amaguru.

Itsinda ry'abagabo bambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu bari ahantu mu kibuga gifite ubwatsi butoshye, icyo kibuga kikaba gikinirwamo umukino w'umupira wa'amaguru.

Mu kibuga cyiza cyane kigezweho cy'umupira w'amaguru gifite ubwatsi butoshye, harimo abantu bambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aba bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Mu nkengero z'umuhanda w'ibitaka hari ubwatsi butoshye, muri ubwo bwatsi kandi harimo inka ifite ibara ry'umukara ikaba iri kugurisha, hari kandi n'inyubako ifite amabara y'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku aho ituwemo n'abantu.

Mu muhanda nyabagendwa ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara hari kugendamo umunyamaguru nanone kandi hari inzu z'ubucuruzi zifite ibara ry'umweru, hari kandi n'ikinyabiziga k'imodoka kifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Mu nkengero z'umuhanda wa kaburimbo hari umuhanda wagenewe abanyamaguru, muri uyu muhanda kandi harimo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, hari kandi n'icyapa cyerekana ko iruhande rw'uwo muhanda hari ivuriro.

Mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara n'umweru harimo umugabo uri ku igare hari kandi n'inzu z'ubucuruzi zifite amabara y'umweru nanone kandi hari ikinyabiziga k'imodoka kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo nk'imodoka ndetse n'ipikipiki yicayeho umugabo ,akaba yambaye ingofero yabugenewe, imurinda mu gihe cy'impanuka ,mu nkengero zo mu muhanda kandi ,hari ibiti birebire ndetse n'indabo.

Mu nkengero z'umuhanda wa kaburimbo haba hari utuyira duto twubatswe hifashishijwe isima ndetse n'ibindi bikoresho. Utu tuyira tukaba twaragenewe abanyamaguru ni byiza cyane ko buri wese yamenya uruhande rwe rwo kugenderaho kugira ngo bifashe mu kwirinda impanuka.

Ahantu mu nkengero z'umuhanda udakoze neza ndetse w'ibitaka, uwo muhanda ukaba wuzuyemo amabuye, hirya yawo kandi hari n'umuyoboro utwara amazi mu gihe cy'imvura uwo muyoboro kandi ukaba upfundikiye bityo bikaba bikumira ko hagira umuntu wawugwamo.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru harimo umugabo ufite igare akaba ari kuricunga, iri gare kandi rikaba rihetseho imitwaro nanone kandi hakurya hari ikibuga cy'umupira w'amaguru.

Mu inkengero z'umuhanda mu gahanda k'amaguru harimo umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara. Uwo mugabo akaba afite ikinyabiziga aricyo igare. Nanone kandi hari abandi bantu bari kugenda n'amaguru muri ako kayira.